Abantu b'ingeri zitandukanye, bambaye amakarita abaranga, harimo abagore, abagabo, ni benshi ku buryo bugaragara. Bateraniye ahantu mu nzu mberabyombi, bisa nk'aho hari ikiganiro cyangwa se inama bakurikiye.

Abantu bicaye muri sare imbere yabo kumeza hari amakayi amaterefone amacupa y'amazi, biragaragara ko bari mu nama kuko hari umuyobozi wabo.

Abantu babiri bigaragara ko umwe ari umupapa ukora mu kigo cya UNICEF, umwana yikoreye ikijerekani kiriho icyapa cya UNICEF bari guseka.

Dukoresha amazi menshi yo ku masoko uko bwije n'uko bukeye. Abantu bari kuvoma ku migezi igezweho kandi yubatse neza. Hari ishyamba rihakikije ndetse n'ibyatsi.

Abantu batandukanye bahagaze hafi n'imodoka yitwa imbangukiragutabara, iza gutabara abarwayi barembye kandi bakomerewe bakeneye ubuvuzi bwihutirwa.

Ababyeyi bafite impinja ndetse n'abana bato, bahuriye mu gace kamwe. Biragaragara ko bagiye gukingiza kuko umuganga ari gutera umwana urushinge ku kaboko.

Kurinda umwana w'umukobwa gusama igihe kitaragera, ni byiza kuko bimufasha kwiteza imbere nawe ku giti cye, abantu barimo abagabo n'abagore ndetse n'abangavu, hari amagambo agira ati, uburyo bwo gukumira no kurwanya gutwita by'abangavu.

Abagabo batandukanye ndetse n'abagore bicaye ahantu bambaye imipira y'umweru, hari uwambaye ingofero y'umweru ndetse n'amadarubindi.

Amazi ni ingirakamaro kuko adufasha mu buzima bwa buri munsi, imigezi ibiri irafunguye amazi ari kumeneka, umwana ari kuvoma amazi mu gikombe, birasa nk'aho agiye kuyanywa.

Abantu babiri umwe biragaragara ko ari umugabo mukuru, bari gusuhuzanya undi yambaye injamba zacitse cyane.

Ni byiza kugira umuntu ukuba hafi mu buzima, kuko igihe ufite ikibazo cyangwa se ufite agahinda arakumva kandi akakuganiriza. Yaba ari inama ikenewe, na bwo akagufasha.

Gusukura amenyo ni ingenzi kuko birinda indwara ndetse n'udukoko dukunda gufata mu menyo, umugabo afashe urudodo rwabugenewe mu gusukura amenyo.

Guseka ni ingenzi mu buzima kuko biraruhura nk'uko abahanga babivuga, umuntu wambaye agapira k'umweru, wogoshe ubwanwa ari guseka.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru yicaye ku ntebe isa n'igitanda kiri iruhande rwe gifite ibara ry'icyatsi kibisi, hari ibindi byuma biri mu nzu arimo bigaragara ko ari kwa muganga.

Urukundo rwa kibyeyi ni ingenzi ku mwana, bitagendeye kuba ari umupapa cyangwa ari umumama umwitaho. Yaba umupapa cyangwa umumama, bose birabareba kugaragariza umwana urukundo rwa kibyeyi.

Abaganga bakora umurimo wo gutabara, abantu bafite ibibazo by'ubuzima batandukanye kandi ni byiza kuko biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igipangu gikikije ikigo nderabuzima cya Kigina, hari umumama uhagaze hafi aho n'umuryango, ahetse umwana, ni byiza kugana ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima mu gihe wumva utameze neza.

Inzu nziza iteye amarangi meza y'bwoko butandukanye, ifite parafo nziza irimo amatara meza. Biragaragara ko ari kwa muganga.

Ubuzima ni ingenzi ku mugore utwite. Iyi ni inzu abagore batwite babyariramo kwa muganga, aho ari abaganga baba babishinzwe kandi bakabitaho na nyuma y'uko umubyeyi amaze kubyara.

Inzu ababyeyi babyariramo kwa muganga yanditseho icyongereza mu ijambo rigira riti "materiniti buloke". Mu kayira harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru birashoboka ko akora aho hantu.

Abantu bane bambaye amataburiya y'umweru babiri ni abahungu abandi babiri ni abakobwa, biragaragara ko hari igikorwa barimo cyangwa se ubushakashatsi.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibi bidufasha kuba amaraso atembera neza mu mubiri, maze umuntu akagira ubuzima bwiza, buri munsi.

Igihe uhuye n'ikibazo mu buzima, waba ukomeretse urugingo rw'umubiri, ni byiza kwihutira kwa muganga kugira ngo bagufashe, bagupfuke, cyangwa se baguhe indi miti runaka.

Abakinnyi babiri ku kibuga iruhande yabo hari umupira, umwe aryamye hasi undi ari kumumasa bisa nk'aho yaraguye akavunika.

Ibikapu byabugenewe byifashishwa n'abaganga, batwaramo ibikoresho bitandukanye imiti, ibikoresho bapfukisha abafite ibikomere, ibyuma babagisha, ni byiza ku buryo bugaragara.

Siporo ni nziza mu buzima bwa buri munsi. Tugirwa inama kenshi yo gukora siporo kuko bituma amaraso atembera mu mubiri kandi neza imitsi ikarambuka yose.

Ijage y'ikirahure, iri gusuka amazi mu kindi kirahure, aya mazi ni meza cyane. Tugirwa inama kenshi yo kunywa amazi meza kandi asukuye, kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Igikapu cyiza cyane kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye birabafasha cyane iki gikapu ni cyiza kuko gitwarwamo ibintu byinshi bitandukanye.

Amaronji ahiye neza, afite ibara rya oranje, harimo irisatuyemo kabiri, hari n'andi maronji asa icyatsi kibisi.